Abana biga mu ishuri ry'inshuke, bari gukina ubona ko bishimye kandi banezerewe. Aba bana bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umukara kandi bafite imisatsi myinshi.

Iyo abana bari gusoma bunguka ubumenyi. Rimwe na rimwe ugasanga iyo batarangaye bakunda kunguka ubwenge, maze bikabafasha kubona batsinda amasomo.

Abagore bari mu nyubako, ubona ko bambaye imyenda y'amabara atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara, bigaragara ko bari mu nama, bari kwigisha gukora imirimo igiye itandukanye.

Icyumba kirimo umwarimu wigisha abana bo mu ishuri ry'incuke, ari kugenda abereka ibyo bakora kugira ngo babashe kubimenya.

Abanyeshuri benshi bakunze kwigira mu mashuri meza, kugira ngo babashe kugira ubumenyi, akaba ariyo mpamvu usanga abanyeshuri batsinda kuko basubiyemo.

Rimwe na rimwe hari igihe abanyeshuri iyo bavuye ku ishuri, bahitira mu bikorwa bigiye bitandukanye ariko iyo umunyeshuri yashoje, ibyo agomba gukora aba agomba no gutembera kandi akunguka ubundi bwenge.

Umunyeshuri uvuye kwiga wambaye ishati y'ubururu n'ijipo ya kacyi, bigaragara yuko avuye kwiga ndetse arasubirayo ikigoroba, gutyo gutyo akabasha gutsinda amasomo ye.

Iyo ufite ibitabo byinshi byo gusoma, ubasha kumva wungutse ubumenyi, maze bikagufasha gusobanukirwa ndetse no kunguka byinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunze kuba bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amapantaro ya kaki, bigaragara ko bateze amatwi inama z'abayobozi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kacyi, ubona ko basuye ikigo runaka.

Abakinnyi b'umupira bambaye imipira y'imikara, hirya hari abafana baje kureba uko bakina, inyuma yabo hari ishyamba ryinshi cyane, ubona ko ari ryiza.

Umugabo wambaye ikote ryiza ry'ubururu uri kwigisha, bigaragara ko yakomeje amasomo ye mu byiciro rusange bitandukanye, akaba ashaka kuba umwarimu kabuhariwe.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye haba ameza, intebe, utubati, ibibaho ndetse n'ibipapuro bakoresha bari kwigisha, ni icyumba ubona ko ari kigari kandi gisa neza.

Amashuri menshi akunze kuba yigaho abanyeshuri benshi cyane, akaba ariyo mpamvu iyo bize neza batsinda kuko baba bafite amahirwe yo kwiga amashuri bashaka.

Ikigo giteye irange ry'umweru, cyubakishije amatafari ahiye, ubona ko ari ahantu heza, hagaragara kandi hari amadarapo abiri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amategura, bigaragara ko aho hantu hari urubyiruko rwinshi ndetse n'abana.

Ubukarabiro bugezeho bwa kizungu, ubona ko abantu iyo bavuye mu mirimo itandukanye bakarabiho kugira ngo birinde umwanda kandi birinde indwara zandurira mu mwanda.

Umunyeshuri ubona ko ari kwigisha bagenzi be abasobanurira ndetse yandika ku kibaho bigaragara ko aje kwandika, uyu munyeshuri yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari mu kigo ubona ko bari kwiga ndetse abayobozi babasuye, bari kubaganiriza kugira ngo bamenye aho bageze biga ndetse biyungura ubumenyi.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri abagezaho amasomo agiye atandukanye kugira ngo bamenye kandi bunguke ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo bazatsinde ikizamini cya Leta.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, usanga bakunze kwambara imyenda y'umweru na kaki, bityo bakaba batandukanye n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Abagore babiri bambaye imyenda y'umukara n'umuhondo, ubona bari gukingura urugi rw'icyatsi. Abagore barishimye kandi baje kureba ibikoresho basize mu nzu ko bigihari.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe ubona bari kuganira n'abarimu babo, bigaragara ko ari ahantu bari munsi y'igiti kandi bari kuganira ibintu byubaka.

Isomero ry'ibitabo ririmo ibitabo by'amoko agiye atandukanye, bigaragara ko ibyo bitabo ari byinshi cyane kandi bifite ireme.

Icyumba kirimo abayobozi benshi cyane, ubona ko barimo kuganira, abayobozi bigaragara ko bahujwe n'inama zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunze kuba bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kacyi, kandi baba bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri benshi bicaye imbere y'abayobozi, bari kuganira, babagezaho imbwirwaruhame zitandukanye kugira ngo babashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunze gukora ibikorwa by'isuku mu mpera z'icyumweru kugira ngo ikigo gise neza, akaba ariyo mpamvu usanga bahanagura ndetse banakoropa.

Abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'imyeru, ubona ko bari mu birori. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Imbere yabo hari abayobozi benshi cyane, ubona ko babagezaho ibiganiro.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, bigaragara ko higira abana bo mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Aha hantu ni heza cyane.

Abanyeshuri bavuye kwiga mu mashuri yisumbuye, bambaye ishati y'umweru na kaki, bigaragara ko ari bakuru kandi bishimye.

Hari igihe umwarimu ageza abanyeshuri ho ijambo ariko ugasanga abanyeshuri kubera gukererwa n'iki ntabwo babashije kuryumva, niyo mpamvu usanga bigomba kurangira vuba.

Abanyeshuri bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu ndetse n'imikorere y'umubiri, uburyo bashobora kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Inyubako isize irange ry'umuhondo, bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'ibikorwa by'amasomo.

Ababyinnyi benshi bambaye imyenda y'imyeru, bigaragara ko bari gususurutsa abantu babanezeza ndetse babagezaho indirimbo babateganyirije.

Iyo umuntu ari gukina umupira bituma yiyungura ubumenyi butandukanye, hamwe no kuruhuka mu mutwe. Akaba ari yo mpamvu abakinnyi benshi bakunda gukina ariko bakagira n'umwanya wo kuruhuka.

Abantu bateraniye mu nyubako bambaye imipira y'umweru, umutuku, umukara ndetse n'umuhondo bigaragara ko baje gutega amatwi abayobozi.

Akenshi abarimu bigisha kaminuza, bajya babaza abanyeshuri ibibazo bigiye bitandukanye ntibabashe kubisubiza, gusa iyo umunyeshuri yabyisomeye we ubwe, abasha kugira icyo akuramo.

Icyumba gitatsemo imitako myinshi, harimo matera, utubati, rido, aho bakarabira, ubona ko hari icyumba cy'abantu bagira isuku.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri ndetse n'utubati, bigaragara ko ari ahantu heza hasashe neza, hari rido nziza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, biri mu nzu.

Inyubako yo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, inyubako nziza y'abayobozi ubona ko iteye irange ry'umukara ndetse n'umuhondo, iyi nyubako ni nini.

Inzu ubona ko irimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo porojegiteri, hakabamo ikibaho, hakabamo intebe ndetse n'ameza.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, umweru ndetse n'umukara, itangirwamo serivisi zijyanye n'amasomo, bigaragara ko ari inzu nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Abaganga akenshi bakunda kugaragaza ibimenyetso byinshi bitandukanye by'uburyo bashobora kuvura umuntu akabasha gukira ndetse n'imiti yahabwa kugira ngo akire.

Ibiti byinshi bikunda kubazwamo imbaho, ndetse bimwe bigakorwamo imitako, akenshi usanga hari abantu bakoresha imitako mu nzu, maze ukabona harasa neza.

Kuri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, hari ibyapa byinshi bishobora kukuyobora maze ukabasha kuba wamenya aho ugiye.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umuhondo n'umweru, bigaragara ko ari amacumbi y'abanyeshuri, akodeshwa na bo.

Icyumba kirimo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye: umweru, umutuku, umukara ndetse n'ayandi mabara agiye atandukanye.

Inyubako ubona ko isize irangi ry'umweru, ni ahantu ubona ko hahurira abantu benshi baje mu nama, bakunguka ubumenyi ndetse bakiteza imbere. Iyi nyubako, ni nziza cyane.

Icyumba cyabugenewe gukoreramo inama, harimo intebe zitukura n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha, ni hantu ubona ko ari hanini kandi ari heza.

Muri kaminuza harimo imihanda myinshi igiye itandukanye, hakabamo indabo ndetse n'ishyamba riri hakuno cyangwa se rizengurutse kaminuza yose.

Nakubwiye ko icyumba cyanjye kibamo ibikoresho ariko ntiwabyumvishe. Niyo mpamvu rero, uri kubimbaza nkakubwira ko iki cyumba kiraramo abantu benshi cyane kandi baragifashe.

Inyubako ndende isakaje amabati, isize irangi ry'umuhondo n'umutuku iyo nyubako kandi ikunda kugaragara mu mafoto agiye atandukanye.

Icyumba kirimo ibitabo byinshi bitandukanye biri mu tubati, bigaragara ko ari ibyigiramo abanyeshuri mu mashuri abanza. Kaba ari akabati karimo amakaye ndetse gapanze neza.

Inyubako iteye irange ry'umukara, ubona ko ari inyubako nziza kandi isa neza. Ni inyubako ikoreramo abayobozi b'ikigo.

Ishuri ririmo intebe zegamirwa ndetse n'ibikoresho abanyeshuri bakoresha kugira ngo babashe kwiga neza. Ni ishuri ubona ko harimo intebe y'umwarimu yicaraho.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye. Harimo inkweto, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo babyifashishe.

Isomero ry'ibitabo, ubona ko bipanze mu kabati, abantu benshi bakunda kuza kubisoma, bakunguka ubumenyi, kugira ngo babashe kwiteza imbere, ni ahantu ubona ko ari heza.

Usanga akenshi abayobozi bahurira mu biro bakaganira, bakungurana ibitekerezo bakabona uburyo ibintu byose byashyirwa ku murongo kugira ngo abagenerwabikorwa babone serivisi.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, ni ahantu ubona ko hahuriye abayobozi baturutse mu nzego zigiye zitandukanye z'ibanze.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi, inkweto, utujerekani dutoya, rido, ndetse harimo n'amabati, iyi nzu ni amacumbi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'ameza, intebe, ibibaho, ndetse n'ibindi bikoresho, iki cyumba kirasa neza, giteye irange, ni ahantu ubona ko ari heza.

Urubyiruko rwicaye hamwe, ruri kuganira ku byateza igihugu imbere ndetse n'umuryango muri rusange, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abafana bagiye kureba umupira, bigaragara ko bafite ikipe bari gufana, ku buryo iramutse itsinze wasanga bose bishimye kandi banezerewe.

Abanyeshuri bakunze gufata imyenda yabo bakayibika mu tubati, kugira ngo babashe kumva bamerewe neza. Akaba ari yo mpamvu usanga, ibyo bakora byose baba babiteguye kandi babipanze.

Iyo umuntu ari gutembera, anyura mu nzira nyinshi zitandukanye. Hari aho unyura ibumoso, iburyo no hepfo, cyangwa se ukanyura mu nzira igana imbere, kuko aho ujya uba utarahamenya neza.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, bigaragara ko baje mu bikorwa bigiye bitandukanye. Bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Abantu bari mu cyumba ubona ko, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho. Abo bantu ni urubyiruko ubona ko, rwaje mu mahugurwa kugira ngo rukore ibikorwa bitandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi. Bigaragara ko abo bantu ari abayobozi bateraniye hamwe.

icyopa ubona ko giteguye neza y'icyumba kiraramo abantu benshi batandukanye, iki cyumba kandi kirimo ibikoresho bitandukanye nk'amez, uburiri ese n'izindi nkweto ukoresha.